Abantu biga ibintu by'ubugeni n'ubukorikori, baba ari abahanga cyane. Kuko iyo bashushanyije ibintu usanga bimeze neza cyane.

Mu bigo byinshi by'imyuga bigiragamo ibintu bitandukanye, kuko baba bafite ibikoresho byinshi byo kwigiraho.

Ikigo cyiza cy'amashuri cya etaje. Cyubakishijwe amatafari ahiye. Abanyeshuri ba ho ni beza cyane, bagira n'isuku ihagije cyane.

Abaganga ni abahanga cyane, bakunda umurimo wabo kuko iyo bawugezeho, bawukora bishimye cyane cyane bagatanga serivisi nziza.

Mu ishuri bigiramo ubwenge butandukanye bigiramo gusudira insinga n'ibindi bikoresho bitandukanye byagirira umumaro abanyarwanda.

Ahantu badodera imyenda haba harimo ibintu byinshi bitandukanye, amamashini badodesha, abakiriya baza kudodesha imyenda kugira ngo bambare ibihishya kandi byiza.

Mu mashuri y'imyuga bigamo ibintu byinshi bitandukanye. Hari abiga gushushanya, abiga gushushanya ni bo bakora ibyapa, bashushanya amapula y'amazu bikabaha akazi.

Abanyeshuri ni abana beza ndabakunda nta mutima mubi bagira, iyo bari ku ishuri ubona bose bahuje umutima, kandi bishimye bashaka kugira ngo buri wese acyure amanota meza.

Ikigo cy'amashuri kirimo inzu zubakishijwe amatafari ahiye, gifite intebe nziza n'ameza arimo za mashini. Kiba kiza cyane kubera ko abanyeshuri bacyigaho baratsinda cyane.

Mu mashuri y'imyuga bigiramo ibintu bitandukanye, hari abigiramo ubukanishi bw'ibinyabuzima, abandi bigiramo ubudozi bw'imyenda mu buryo butandukanye.

Ishuri ryiza cyane, rifite ibikoresho byiza cyane, abana baryigaho bagira ubwenge kubera ko bigira ahantu hafite isuku hameze neza cyane.

Imashini ni igikoresho cyiza cyane. Abaturage barazikunda kuko zitanga umusaruro ku bazikoresha, ndetse no ku baturage baje babagana.

Mu ishuri habamo abanyeshuri batandukanye. Habamo abanyeshuri b'abahanga, habamo n'abaswa. Habamo abakunda gusakuza, habamo abakunda gutega amatwi, ibyo mwarimu wabo ari kwigisha.

Mu bigo byinshi by'amashuri, habamo ubumenyi butandukanye, hari ibyigisha kubaza, ibyigisha iby'ubwubatsi, ibyigisha ubwenge busanzwe. Ibyo byose bigirira akamaro, abari kubyiga.

Mu kibuga cyiza cyane ahantu hakunda gukorerwa ibirori. Abantu b'ubugeni n'ubukorikori bahashushanyije igishushanyo cyiza cy'ingagi. Abantu benshi bakunda kuhifotoreza kuko ari heza cyane.

Abanyeshuri biga mu bigo by'imyuga, iyo bagiye kurangiza amashuri bajya kwimenyereza ibyo bize mu bigo byabugenewe.

Mu bigo byinshi by'amashuri yo mu Rwanda, habamo abana bazi ubwenge bubaha abayobozi babo, kandi bahora bishimye igihe cyose bari mu masomo.

Abaganga ni abahanga cyane bagira umutima mwiza wo gufasha abarwayi, abarwayi iyo babagezeho bumva bishimye, kuko bagiye kubona ubutabazi bwihuse.

Mu mashuri bigiramo ubwenge butandukanye; hari abigiramo ibyo kubaza, hari abigiramo iby'imiyoborere, hari abigiramo iby'uburezi. Mu mashuri habamo ibintu byinshi cyane cyane bitandukanye.